Nzajya ngerageza mfate ubwishingizi ibintu byawe, ibikoresho ndetse n'ibindi byinshi nk'uko hano bari kubigaragaza banagusobanurira ko baha agaciro ibintu nawe uha agaciro kurusha ibindi ugerageza ni ufite inzu, imodokadoka ubitange ubishinganishe.

Kugira ubwishingizi ni ibya buri wese, kandi biramureba kuko bimutabara igihe runaka, wenda niba ikinyabiziga cye cyangiritse, inzu ye ihiye, baramugoka bakamumenyera buri kimwe nk'uko bino birango byerekana hariho umusore uhagaze ku gikapu ndetse n'amagambo yanditse mu ibara ry'ubururu n'umweru.

Hari gahunda ya polisi igishyiraho bita gerayo amahoro kugira ngo ugende witonze kutagonga abantu mu muhanda, rero nkuko hano turari kubibona n'ubwishingizi wabugushishikariza gukora ibyo ngibyo kugira ngo utangirika cyangwa se utangiza. Uyu mwari uri guseka neza atwaye imodoka kubera ko nawe yabashije kubijyamo neza isaha n'isaha akoze impanuka runaka bamugoboka.

Ufite ubwishingizi ni iby'ingenzi byagutabara igihe runaka ndetse bakaba bafatira imodoka yawe bakayiriha iyo yangiritse cyangwa se igihe hari umuntu ugonze rero mujye mugerageza mubikora hakiri kare.

Kuba wafata ubwishingizi byagufasha cyane, ariko iki kirango kiranga ibyo bakora banashishikariza abantu kuruhuka, bagashaka uburyo bitekerezaho nyine, bagashyira ubwenge bwabo ku gihe nk'uko uyu mukobwa ari kubikora.

Kubafata ubwishingizi, ni byiza cyane ndetse ugashinga n'ibigo by'imari bizitanga, rero hano iki ni ikirango kibyemeza, uyu musore wipfumbase rwose yishimiye ko agomba gukorana namwe kugira ngo ayibahe.

Gerageza ufate ubwishingizi ni ingenzi cyane. Nk'uko tubizi twese igihe imodoka yawe yangiritse cyangwa ikagonga umuntu barakugoboka, bakaba babikwishyurira kuko ayo mafaranga yo ubwayo ntabwo wayabona ako kanya bagutunguye.

Kuba dufata ubwishingizi ni byiza cyane kuko bitabara, hano rero aka kazeru kariho uturenge tubiri, ndetse handitseho n'amagambo y'ahantu bakorera, ni akakuyobora rero ko ugomba kujyayo kugira ngo utayoba.

Nziko nawe ababishinze ikigo gitanga ubwishingizi wajya utanga amakuru cyangwa se ukabyamamaza. rero nkuko kuri iki kirango kiriho ibimashini binini cyane biri ahantu wagirango biri guhinga n'umubyeyi uri guseka yishimye.

Tugerageze dufate ubwishingizi kubera ko ni ingenzi cyane nkuko bino birango bibigaragaza biraho abagabo babiri, barakubwira ngo buri kimwe cyose ukeneye cyangwa ushaka kuba we babigukorera.

Gerageza nawe ukore ibintu bikwiye nk'umuntu w'umugabo. Ufate umwanzuro wo kujya kuyoboka ubwishingizi. Kugira ngo ejo utazahomba ibyawe burundu, imodoka yawe cyangwa inzu yawe byangiritse.

Nibyiza kubafatira ubwishingizi amatungo yawe kuko byagufasha cyane kubera ko igihe apfuye ushobora kuvuga ikibazo cyabaye cyangwa se indwara zayateye bakaba bakubwira ukajya gushaka andi bakaza bakayishyura rero ujye ugerageza gukora ibyo mvuze.

Ubwishingizi bukunda kugoboka abantu benshi cyane batandukanye, kubera ko igihe wenda ikinyabiziga cyawe cyangiritse, inzu, cyangwa abo mu muryango wawe bakarwara, burakugoboka kandi ntekereza ko wowe uwagutunguza ikibazo runaka cy'ingutu utahita ugikemura.

Gerageza abana bawe bafatira ubwishingizi kuko ni byiza cyane birafasha birabatabara igihe barwaye cyangwa bumva batamere neza wabajyana kwa muganga bakakuvura cyangwa se igihe udafite amafaranga ahagije burakugoboka.

Kujya kwa muganga ni byiza cyane kubera ko biragufasha ariko nanone hari igihe uhura n'ibibazo ugasanga nta mafaranga ufite ahagije ariko iyo wafashe ubwishingizi bikubera byiza, hano barabitanga rero, urabona ko hariho uwo bari gupima ngo barebe ikibazo afite.

Nibyiza gukoresha apurikasiyo ya banke kuko biragufasha cyane aho ushobora kwikorera bimwe mu bintu byawe bitandukanye kugira ngo bikemuke vuba byihuse kujya nkokoreza amafaranga, kwishyura amazi, kwishyura umuriro n'ibindi.

Kuba wabasha gukoresha apulikasiyo ya banki runaka ni byiza cyane kuko biragufasha kwishyura ibintu bitandukanye amazi, umuriro wenda uri nko mu kindi gihugu utabasha gukanda ibintu by'utunyenyeri ushobora kuyikoresha rwose.

Gukoresha apurikasi za banki ni byiza kuko biradutabara tubasha kubonaho ibindi bitandukanye; amakuru yacu kugira ngo ibintu bigende neza rero nawe wagerageza ukajya ureba ko wayikoresha.

Uko wumva ibintu byaroroshye utabasha gukanda utuyenyeri ngo imibare runaka asigaye ayikoreshereza kuri murandasi, aho ugenda kuri uru rubuga ukareba ibintu byose ushaka bijyanye na simukadi ufite uko ikora.

Imyenda ni ingenzi kuko turambara tukaberwa tugasa neza, tukabasha kuba twajya mu mabukwe ndetse bakadushima, hano rero hari imipira ikeye imanitse ahantu y'umukara ndetse n'umweru, hirya hari igikapu ndetse n'udukombe twiza cyane.

Kuba wagura imyenda myiza ni ingenzi cyane kuko birafasha ndetse bikanatuma witeza imbere, iyi ni imipira rero myiza cyane amabara y'umutuku, icyatsi ndetse n'iry'ivu, hejuru hari umukara, ari gucuruza akoresheje ikoranbuhanga.

Wa mugabo ugomba kumenya ikintu umugore wawe ashaka ndetse ko ari ukwambara akaberwa ukabimenya, niba ari agakanzu ukakamugurira nk' uko hano duhari twiza cyane tw'umweru ndetse n'amapantalo inyuma hari ibindi byinshi nyine ubwo ubaye udashimye warebamo ndakeka utabura na kimwe utahana iwawe.

Ahantu ushobora guhaha imyenda myiza cyane ikubereye, urugero:niba ari agapantaro, agashati, agakweto, uza hano ukareba cyane ko harimo utuntu igiye imanitseho unazengururutse mo ukagenda uhitamo ureba ibikubereye n'ibitakubereye.

Kujya guhaha ukihitiramo ni byiza kuko biragufasha ureba ibigukwiriye akaba ari byo utwara. Hano rero harimo imyenda itandukanye y'imipira, amakanzu, udusenyeri, inkweto, ndetse n'ibindi. Hakurya umusore mwiza cyane urikureba n'umumama bakira abantu baje kuhahahira.

Inkweto ni nziza zazigiye igihe, urazambara ukarenza ku gapantaro cyangwa agakanzu, ugahita umera neza, izi ni iz'abagore rero ariko, ziganjemo umukara nyine rero ziturinda ibindi bitandukanye, kuba amahwayatujumba cyangwa amabuye.

Mbere nta mukobwa wakundaga kwambara ipantaro, ariko ubungubu basigaye bazambara, ibihe byarahindutse, hano rero ni mwisoko ushobora kuza ukayigurira y'umukara, ubururu, ikigina ndetse n'izindi zitandukanye zikubereye ukaba wiyiserukana ahantu.

Uwajya kwigurira ibitenge! Ni byiza cyane kuko hano birahari, ndetse ni ibintu byose biri mu mabara atandukanye. Umutuku, umukara, umuhondo, icyatsi, umweru n'andi menshi kandi binatonze umurongo.

Ni byiza ko twajya tuyoboka inzira y'ikoranabuhanga kuko nho ibintu biri kugana, aho tutakiva mu rugo nyine ahubwo duhahira, ku mbuga nkoranyambagaba. Aya ni amakote rero, ubonako harimo n'inkweto ushobora guserukana mu bukwe runaka.

Nyuma yo kuza guhaha agasatsi ke yagasokoje n'umupira w'umweru yatebeje baramunganije yumva arishimye cyane ndetse ibyo yaguze abishyira ku meza baraganira. Inyuma hari amakanzu n'ibindi bintu ushobora kuza ukagurira umugore wawe cyangwa se umukunzi wawe.

Imodoka nziza cyane yanditse inyuguti ebyiri ke eni ndetse iri kwaka amatara. Iri inyuma y'abagabo babiri bateruye ikirango hasi hashahse utubuye tugiye turimo utwatsi. Hakurya nkurije ukuntu mabona hatuye abantu aho baba bahitegeye bahareba neza.

Umugore uhagaze hagati y'abagabo babiri, bombi bafatanye ikirango, impande yabo hari imodoka nziza cyane ihahagaze ndetse hasi hashashe utubuye. Inyuma hari inzu nini y'ibirahuri byiza cyane uri kureba nawe, rero ni byiza ko wahagera nkurikije uko mubabona bacuruza ibinyabiziga.

Niba ufite amafaranga uzagure imodoka ariko nanone bisaba kuba ukora cyane ntabwo wajya ubona icyo kuyinywesha buri munsi nkurikije uko ibiciro bigenda bizamuka. Iyi rero ni nziza cyane ifite ibirahuri by'umukara birasa umweru, amapine meza cyane iri ahantu hari izindi nyinshi ushobora kuza nawe ukayihaha.

Imodoka nziza cyane ubona ko ireba neza amatara ari kwaka inyuma hari igicu cy'umweru ariko kitari neza cyane hakurya hari ibiti bimeza neza ubona ko ari ibintu bikeye rwose.

Imodoka nziza cyane ifite amatara y'umutuku ndetse amapine aracyari mashya, ihagaze ahantu hari utubuye twiza cyane hakurya hari n'izindi inzu zifite ibirahure bibonerana ndetse zubakishije amatafari ahiye.

Umukobwa mwiza cyane arimo arishimira ko yaguze imodoka iri inyuma ye nkuko tubibona twese, yamanitse akaboko ari kumwe n'undi mugabo. Hasi hari utubuye turi mu twatsi tugiye dutandukanye, ni mu kajoro busa naho bugorobye.

Imodoka nziza cyane zikorwa n'uruganda rwa toyota ziri kureba neza ariko bahishe imibare iranga ibirango byazo, ngo bivuze ngo nyine ni kumpamvu z'ubwirinzi bwabo. Hasi hashashe utubuye twiza cyane inyuma hari ikintu kihatwikiriye nyine ubona ko ntazuba ryakwica umuntu.

Imodoka yo mu bwoko bwa fuso itwara imizigo ubona ko rwose ikiri nshyashya nta kibazo, imbere yayo hariho abagabo babiri ndetse bafite ibirango, ni byiza ko rero nawe ubaye ufite amafaranga wabikoresha.

Umudamu uri hagati y'abagabo babiri bafashe ikirango kiriho amagambo yanditse mu ibara ry'umutuku ndetse n'iry'ivu, inyuma yaho hari imdoka y'umweru ifite ibirahure ubona ko ari bishyashya, hakurya hari ibiti byiza cyane.

Hari imodoka zishobora kugufasha akazi kawe ka buri munsi, iyi ngiyi nayo irimo ubona ko iri kwaka amatara ihagaze ahantu habugenewe rwose, imbere yayo hari inzu nini cyane ubona ko igeretse, rero wabahamagara kuri izo nimero uri kureba.

Umuntu ariyicariye unambaye ipantaro y'ingururu n'agacupa ka mazi y'inyange, ibinyamakuru imbere ye biteretse ku meza y'ikirahuri. hafite imisego myiza cyane, hakurya hari imodoka ziparitse, bisa naho bazicuruza.

Abagabo babiri ubona ko umwe afite igikapu ku rutugu, n'ikirango impande yabo hari imodoka nziza cyane rwose, inyuma hari izindi n'umunara muremure, ibiti hakuno ubona ko witegeye umujyi rwose bahagaze ku tubuye twiza cyane.

Imodoka nziza y'umukara rwose ikeye amatara yayo azimije ariko iracyari shyashya. Nkurikije ukuntu nyibona ntago iriho ikirango kiranga ikinyabiziga runaka ariko iyo uyiguze usabwa ubwishingizi uzajye ubufata rero kugira ngo igihe cyose izangirika bazakugoke.

Imodoka nziza cyane ubona ko icyeye yo mu bwoko bwa kiya rwose bibiri na cumi na kabiri, irimo irakodeshwa cyangwa se ikagurishwa miliyoni icumi wayisanga rero ahantu henshi hatandukanye cyangwa se ukaba wabahamagara.

Amafaranga ni meza kuko atuma tubaho tukagura ibintu bitandukanye: tugahaha tukarya, tukambara tukagura amazu rwose, tukayabamo n'ibibanza aya niyo rero hari n'icyuma kigufasha kuyabara kugirango udatinda.

Hari ahantu ugenda utanga amafaranga ku ikoranabuhanga bakayagura mu ntoki, nkuko tubona uyu musore uri kubara inoti za bitanu nyinshi cyane, agashati ke keza cyane k'ubururu, agiye kuyaha umuntu runaka wari uje kuyatora.

Ubungubu ibintu nyine birakomeye cyane cyane ku bantu bakunda gutwara amafaranga mu ntoki ihuye n'ibyago barakwaka cyangwa se bakagutuburira. Hano rero mo imbere harimo abari bagufasha kuza ukayakura kuri konti zawe ukayatwara ahantu runaka wenda nkiyo ugiye kwishyura ikibanza nibwo wayagusaba.

Banki nkuru y'u Rwanda ni yo iherutse gufata amafaranga iyahindura ukundi kuntu indoro yayo. Iyi note ni iya bibiri ariko iriho imisozi ndetse n'ibibaya, iza mbere mu gihe zo zabaga ziriho ikawa.

Ku muhanda mwiza cyane ubona ko habereye guca ibinyabiziga, impande yaho hari ibiti byiza cyane, hari n'ibirango birangamata cyangwa se hashushanyijeho inka, hirya gato hari amazu nyine ushobora kwicaramo ukaka ibyo ubashije ukanywa.

Amata n'ingenzi nk'uko tubibona hano hari abari babiri umwe yambaye umupira w'umukara undi yambaye umwenda w'akazi ndetse ateruye udukarito twinshi apfunyitsemo inyuma yaho hari n'amazi ndetse n'ibindi ushobora kuza ukihahira.

Umukobwa mwiza cyane arimo aravugira kuri telefone y'iwe, ndetse hakurya hari umusore wegereye indobo y'ubururu usa n'aho afite icyo ari guhengereza, imbere ye hateretse ijage ndetse n'umufuniko ipfunduye ku meza y'umweru, wakubita akajisho hirya hari ji, fanta, ndetse n'ibikarito bihamanitse munsi hari ahantu hari amagi.

Kuba wakwigurira mata ni ibintu byiza cyane, cyane ko hajemo n'ibyuma biyatunganya bikayabika igihe kinini akavamo akonje. Hano hari ijerekani y'umweru ukeye nziza cyane hakurya harakana gahagaze n'akabido karimo andi menshi bari baje guhaha.

Amazi ni ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi kuko iyo tuyanyoye adukiza umutwe, atumara inyota, avura impyiko nyine arazoza neza ndetse hari n'abayatekesha bakabasha kuba barya, nyine ni ngombwa, ano ari mu ducupa rero, akorerwa mu nganda.

Gerageza ujye ugurira amata mu kintu gisa neza haba ijage igikombe cyangwa akaritiro, rero kano urabona karapfundikiye, umweru hariho agapapurometseho, hirya hari umuntu wambaye ipantaro y'ubururu ubona ko nawe yari yaje.

Ni byiza ko twajya dukurikiza ibintu bya kijyambere, mbere wasangaga ubika amata mu ijerekani agahita gupfana bitewe n'igihe amaze, ariko haje ibyuma biyatunganya rwose ukaba wayabika nk'icyumweru kandi abantu baza kuguhahira bakayabona.

Umusore yicaye ku ntebe y'umweru afite akabedo, ndetse arimo aravoma mwijage amata ava mu cyuma kiyatunganya kikayabika igihe kinini kuko avamo akonje. Hari undi nawe wari uje kuyagura bisa naho agiye kuyatekamo icyayi.

Ni byiza ko niba utangiye gahunda yo kujya ugaburira abantu wajya uhashyira tuno duti biharuza ibintu nyine byabafasha mu menyo tukabikuramo, kuko turafasha cyane ushobora kuba utuma nyine wumva utabangamiwe cyane.

Ahantu heza ushobora kugurira amata ni hano nkuko hariho umwana uri ku kirango, wari uri kuyanywa, amagambo yanditse mu ibara ry'ubururu ndetse n'icyatsi, ikirango gisa umweru hariko inka hasi, harafunguye mo imbere bigaragare ko atari byo gusa bagiramo.

Irindazi ni ingenzi, kuko rituma tubaho, tukaba twagenda mu gitondo ku kazi turifashe, twakoresheje icyayi, amata, cyangwa se ibindi bintu nyine bikadufata mu nda. Riba rikoze mu ifarini, isukari, amagi, hano riri mu ndobo rero.

Amata ni ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi kuko tuyakenera buri gitondo tukayanywa, tukumva tumerewe neza cyane iki ni igikombere n'ubwo kituzuye hakurya hateretse akabido ,intebe wicaraho wayawesha irindazi ,umugati cyangwa capati.

Tujye tugerageza kwigurira ibintu tunishyure dukoresheje uburyo bugezweho bwo kuba twakoreshe ikoranabuhanga, uyu mwana rero aryamye ku gikinisho cye cyangwa se igipupe bari bamuguriye, inyuma yabo hari abandi benshi n'ubwo batagaragara neza, na bo bari guseka bishimye.

Apulikasiyo zaje zifasha abantu kwishyura ni byiza cyane, kuko bakoresha ikoranabuhanga. Buri gihe niba ushaka guhaha ikintu uri mu Rwanda undi ari hanze, ushobora kuyifashisha rwose bikagenda neza, amafaranga akamugeraho byihuse.

Kohereza amafaranga ni byiza cyane ukoresheje ikoranabuhanga, iyi ni application ikoreshwa muri telefone nyine ku bantu bazi ikoranabuhanga, aho ushobora kugenzura amakuru yawe y'ibyakozwe cyangwa ibyo wakoze.

Ni byiza ko bagushishikariza uburyo ikoranabuhanga risigaye rikora; hano bari kukubwira ngo kanda ijana na mirongo itandatu na gatanu; akanyenyeri umunani ubone ibyiza bakugeneye bikunyuze kandi bibereye abajene nkamwe; icyizere rero ko wajya wubahiriza ibintu nk'ibi.

Ibintu byaroroshye dusigaye twishyura amafaranga dukoresheje ikoranabuhanga bikagenda neza, uyu rero yari amaze kwishyura uwo bita Thomas, ibintu byagenze neza akoresheje telefone y'iwe, nkuko ibi ngibi bigaragaza izino ngengabihe.

Abasore babiri ubona ko bari kuganira, umwe yambaye akagofero n'ishati, undi ntako yambaye ahubwo, hari umupira w'amakipe runaka usa ubururu ndetse wiganjemo utubara dutandukanye, hakurya hari n'abandi benshi, bari mu nzu nziza ikeye, bombi bisa naho bari gukoresha ikoranabuhanga.

Kuba wavunjisha amafaranga ufite ni byiza kuko byagufasha. Hano rero iki kirango kibyerekana ni aho ageze. Amadolari, Amayero, Amapawundi, AmanyaKenya n'Amanya Uganda nyine uraza ukabitanga bakakohereza Amanyarwanda.

Amafaranga abasha kutuvuza igihe turwaye, akatugurira inkweto, tugahaha tukarya, cyangwa tugakora ibindi bintu bitandukanye nyine kubera yo, ntacyo twakora tutayafite kuri iyi si kuko niyo afasha abantu ibintu byinshi, hano rero harimo ibiceri n'inoti.

Amafaranga atugirira akamaro mu buzima bwacu bwa buri munsi, niyo atuma tugura inzu cyangwa tuzikodesha, twishyurira abana amashuri, tukabagaburira, tukambara imyenda n'inkweto byaguzwe nayo, rero tugomba kuyafata neza. Ubaye ufite wenda amadolari waza ukayatanga bakaguha abanyarwanda nk'uko hano ariho bikorerwa.

Hari ahantu nyine habugenewe ujyana amafaranga runaka yo mu kindi gihugu bakaguha ayicyo ushaka hari imiryango y'ubururure hano ibiti bihateye n' ikirango cyerekana ko ari byo bakora baba mu nzu nziza rwose iteyewe n'amarangi meza.

Kuba washaka ahantu ujya kuvunjishiriza amafaranga ni byiza cyane nkuko tubibona hano hari hari ibirango birimo umweru, umukara uruvu ndetse n'umuhondo harimo amakaro y'umweru hakurya hari umusore wicaye ategereje abantu baza bakamuha amanyarwanda akabaha amazungu.

Hari ahantu habugenewe kuza ugatanga amafaranga runaka bakaguha ayawe, rero nk'uko inyubako iriho ikirango kibigaragaza, n'inimero zabo za telefoni ushobora kubahamagaraho, hakurya hari ibiti byiza cyane, nkurikije uko mbibona biregeranye na banki babitsamo.

Umuhanda mwiza cyane urimo umurongo ucagaguye w'umuhondo hakurya hari umudamu wambaye imyendagwa acunga umutekano nyiyine nkurikije uko mbibona; ari kuganira n'undi mugabo wambaye imyenda y'akazi ucuruza amayinite. Hirya hari imiryango ifunguye abantu binjiramo bagiye kwaka ibintu runaka.

Hari ahantu nyine ushobora kugenda bakagufasha kohereza amafaranga mu mahanga cyangwa se ahandi hantu bakanakuvunjira ubaye uyafite. Uyu musore rero wambaye agashati k'umweru arimo araseka arishimye kuko ariho avuye nyine gutanga amadorari bakamuha ayo ashaka.

Hari amabanki runaka yagiye yorohereza abantu, ahashyira amashami ku mpande hirya no hino, ku buryo ushobora kuza nawe watinze, cyangwa se ukeneye ibintu byihutirwa ugashaka gutonda umurongo ugahita uhagera. Gusa hano hagendanye n'uko bavunja amafaranga.

Ameza meza cyane, intebe na zo ubona ko bisa, ziciye bugufi, aya rero wayashyira ahantu ho kurira. Ateretse ku mabuye, hakurya hari imodoka ndetse n'abamotari bari kugenda batambuka.

Ku bantu babaza nibo bahita babimenya ariko izi ni imbaho bisa n'aho bari gucomekeranya kugira ngo zibyare ikintu runaka si ibyo gusa ariko ushobora kuzikoramo gitanda, intebe utubati n'ibindi byinshi bitandukanye.

Kugira ngo inzu ise neza ni byiza, kuko birafasha cyane, aya ni ameza afite utwana twayo, intebe z'imisego y'umukara, inyuma hari ikirango kiriyaho amagambo yanditse ndetse n'amadirishya.

Bivuze ko nabo baba bagomba gusa neza igihe runaka, nkurikije uko mbona zino ntebe zifite imisego myiza ameza ubona ko rwose akeye; ari ayo gushyira muri salo yawe, ariko ukuntu hateguye ni aho barira, hirya hari urugi bafungura iyo basha gusohoka.

Saro yawe iba igomba gusa neza igihe washyizemo ibintu bisirimutse kandi byiza, rero izi ntebe urazibona zirimo imisego nimbaho, ameza afite utwana twayo tune, ni byiza ko nawe wagerageza ukajya utanga amafaranga kugira ngo ubone ibintu byiza.

Abantu bakora intebe wajya ubagana ukareba uko bimeze zino zirasa umweru, ameza arakeye cyane hakurya urahabona hari imiryango ifunguye bavuga ko nawe ugomba kuza ukicara ukiga cyangwa se ukagura bitewe n'ibyo ushaka.

Intebe nziza cyane ubona ko ifite insego y'ubururu ndetse n'akantu wicara ukiryamira, hasi hashashe ikintu kiza cyane, hirya hari udutako turimo uduti, inyuma urabona ko hakeye.

Imbaho ni ibintu bidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, aho dukoramo inzugi, ibitanda, utubati, intebe, n'ibindi bitandukanye. Ubwo rero hano barabaza, bakora ibyo mvuze nyine, ushobora kuza ukabigura inzu yawe igasa neza nk'uko bigaragara.

Kuba wajya mu mahoteli ni byiza cyane nk'uko tubibona hano harubakitse harasa neza ushobora kuhazana umukunzi wawe bikagenda neza rwose ukabona barishimye, hari udutebe two kwicararaho haba hari ibisembuye ukaba wabinywa.

Kubajyana runaka bakaba ba koga ni byiza ndetse ugomba no kubyiga kuko ushobora kwisanga nka kibazo utabizi bikakunanira hakurya ibiti byiza cyane inzu aho kwicara hariho utuntu tw'umweru tugukingiriza, urabona ko ari ibintu bisa neza.

Kuba washaka ahantu utemberana n'umukunzi wawe ni byiza, hari utubuye tuhashashe nyine bashyiraho imodoka, ibirahure winjira wirebamo nyine biri hejuru, inzu nziza igeretse rimwe, hari indabo nziza ushobora kuza ukahifotoreza.

Kwiyarurira ni byiza biragufasha, nk'uko tubibona hano hariho inyama, karoti, umuriti, ibishyimbo, ndetse n'ibindi byinshi n'imboga nyarwatsi. Hakurya hari aho kwicara rero iyo umaze kubikora uragenda ukaba waruhuka nyine uri no kurya ibiryo byawe.

Tuge tugerageza niba tubasha gukodesha ahantu runaka cyangwa tujyeyo koga nkayi kurya inko zaho zazitetse neza amahoteli nyine izi ntebe n imikara ariko nkurikikirwa babona ni inzu mberabyombi bajya ngo bahabera inama n'icyumba baba baragennye nyine hariyo amazi n'udukaye.

Gusohokana umukunzi wacu ni byiza cyane, ariko na none dukwiye kumenya ahantu tujya. Rero hari ahabugenewe ubajyana ariko haba bafite n'ibyumba abantu bakoreramo amanama. Noneho hanateguye uducupa tw'amazi, intebe nziza, ibitambaro by'ubururu bihashashe, amatara ari kwaka.

Tugerageze tujye tumenya ahantu dusohokera cyangwa se tujyana abakunzi bacu kuko ni ingenzi cyane birafasha, hano hari intebe nziza z'imituku ameza wakiremo, hakurya hari n'ahantu hari ibirahure ubona ko ari ibintu bisa neza.

Hari ahantu haba hasa neza cyane uhazana n'umukunzi wawe ibintu bikagenda neza, udukombe tw'umutuku tuhatatse, utwo kwihanaguza igihe wanduye turi buri kuri meza ishasheho igitambaro cy'umweru ndetse ubona ko hakeye hari n'udutara twiza cyane twaka, ntitumene amaso .

Iyo tubonye ahantu dutemberera tureba ibyiza nyaburanga byubatswe mu mujyi wa Kigali, iyi nzu rero igeretse inshuro nyinshi ndetse hari a akamutotaratwiza cyane haku ryarindi yatu baratandukanye harimo ubururu umuhondo ndetse n'icyatsi inizengurutse.

Mudasobwa ni ikintu kidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, aho tubikamo amakuru atandukanye wenda y'ibyo twagurishije niba turi abacuruzi cyangwa se tugatangaho ibyo twakoze. Ni kumeza rero niho iteretse, intebe yo kwicaraho, ndetse n'umuryango basohokeramo, hanze hari ibiti.

Ahantu ushaka gusohokana n'umukunzi wawe ni hano rwose, reba idabo zihari ibintu nyine bihatatse nawe uri kureba hejuru ushobora kuzagahagarara ukareba umujyi uturangi twiza tw'umutuku rero ibintu byaho ntabwo byakunanira kubyishyura.

Hari ahantu ujya nyine ukabona ko hakeye, iyi ni inzu rero nziza cyane, haba harimo ibyumba byo kuraramo, aho kurira, ni nini, hari aho gushyira imodoka, indabo zihateye urabona ko kuhifotoreza byaba bisa neza.

Kuba wajya ahantu runaka ukazahasohokera n'umukunzi wawe ni byiza cyane nk'uko uba ubibona nyine haba hakeye, amadirishya meza, intebe nziza cyane hicayemo umuntu imeza z'ibirahure n'imiryango winjiriramo, igihe ukeneye ku kujya ahantu runaka.

Ahantu ho gushyira imodoka heza cyane, utubuye dutondetse umurongo tw'umutuku ndetse n'umweru, ibiti byiza bizana akayaga bikaguhungiza, ibirahure bikeye ushobora kuza ukirebamo uburyo wambaye, hejuru hari udutebe umuntu yicaraho nyine akabasha kureba ibintu bitandukanye.

Gerageza ujye gufata ideni cyangwa se gufata ubwishingizi bitewe n'ikintu igiye gukora, hano rero hari inyubako nziza cyane iriho ibirahuri iri ku muhanda, hari ibiti rwose, urahaza ukaba wafitira imodoka yawe ukayishinganisha cyangwa,

Tujye tugerageza dufatira ubwishingizi imiryango yacu, amazu, n'imodoka kuko ni ibintu dushobora guhomba ugasanga turize ayo kwarika. Hano rero hari umugabo wambaye udukote tw'ubururu arikumwe n'undi barikumwe bisa n'aho barimo barabiganiraho.

Tugerageza dufatire ubwishingizi ibinyabiziga byacu, cyangwa se amazu kuko ni byiza, iyo bigenze neza rwose ibintu baratugoboka, urugero nk'inzu ihiye cyangwa imodoka bigashwanyagurika bahita bakugurira indi byihuse.

Hano rero hakeye cyane harimo amakaro ubonakogiyerimo utuntu duto duto indabo munsi, ndetse n'izindi zihateretse hakurya hari ikirago kiriw ibara ry'umweru ndetse n'utundi dusa umuhondo ukuntu ariko ntago ari umuhondo wese hakurya hari akantu kazana umwuka.

Kubafata ubwishingizi ni ingenzi cyane tujye tumenya ubwenge hakiri kare turinde ibintu byacu , hano rero barabutanga iyo uje bakwakira neza ukicara muri izi ntebe z'imituku , ibirahuri hatatse iyo uhareba nawe nyuma hahagaze utubaho ,amatara meza cyane hakurya noneho harimo umwari mwiza iyo agusekeye uhitu uvuga ngo ubwishingizi ndabufata icyarimwe imyaka ibiri.

Igihe kirageza nawe uzafatira ubwishingizi inzu yawe y'imodoka ndetse n'ibindi bitandukanye, aho rero harimo ibiro bitandukanye nabyo, bakinjiramo ukabababwira ikibazo ufite bakagikemura cyangwa bakagufasha ni byiza kumenya aho barira.

Nawe jya ugana ibigo by'imari bishinzwe gutanga ubwishingizi kuberako biragufasha cyane hano rero hari ikirango cy'imodoka n'ibindi by'ubururu hakikijwe n'ibyuma ndetse n'indabo nyinshi cyane.

Ubwishingizi ni ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi haba ikinkinyabiziga ndetse n'ikindi kintu gitandukanye birimo inzu, abanyeshuri n'ibigo by'amashuri biba bigomba kugira ahantu bishinganisha mu buzima bw'abantu bayoboye.

Kuba wagira ubwishingizi ni byiza kuko byagufasha rwose, ano mazu harimo ibintu byinshi bashobora kugufasha, ukaza wenda niba inzu yawe yishinganishije igashya, bakubakira inshyashya cyangwa imodoka yawe ihiye ikagonga cyangwa se ikangiza umuntu baramuvuza.

Kuba wabasha gufata ideni ni byiza cyane ariko ukarikoresha mu bintu bitandukanye uziko byakugirira akamaro, ni ngombwa nawe ko wajya ubigerageza rero bikagufasha cyane, nkuko tubizi uyu musore rero afite impapuro mudasobwa imbere ye arimo araseka arishimye.

Gerageza ubashe kwishyura inguzan igihe wayifashe cyangwa se n'iyo waba ugerageje no kuyaka uvuge ko ugiye kuyikoresha ikintu kizima, rero hano barayitanga ndetse iki kigo nibyo gishinzwe cyane.

Gufata inguzanyo ni ingenzi kuko biragufasha cyane kubaka ikibanza washije ki kakunanira ariko hano rero baragufasha bakayizamura ,bakayisakara. Iyi rero nicyo w'uzuzaho imyirondoro yawe ,icyo ukora ,icyo winjiza ndetse bakabasha kuba bayiguha.

Ideni ni ikintu gishobora kugukura mu bibazo runaka ariko na none ukamenya uburyo uryishyumo wagura inzu, ukagura ikinza n'ibindi .Hano rero hari insakazamashusho zerekana uburyo ushobora kurifata nyine hariho n'utundi urabona harakeye harimo n'udutara twaka nijoro igihe bwije.

Gerageza niba ufite ikibazo ukivuge, unafate ideni kuko birihutirwa kandi ni ingenzi kuko byagufasha mu gihe runaka. Rero hano bararitanga, ukaba wagura inzu, ikibanza, imodoka cyangwa ibindi bitandukanye wakenera.

Ideni rishobora gutuma ugura inzu bikagufasha cyane, kubera ko nyine biratabara bigira umuntu uwo ari we akabasha kuba yagura ikibanza akubaka inzu cyangwa se agakora ibindi bintu bitandukanye, gerageza rero iki kirango ni byo kerekana.

Tugerageze dufate ideni twubake ejo hacu hazaza dutangize imishinga runaka kugira ngo izadutunge dutunge n'imiryango yacu, irihirire abana amashuri ndetse inatuvuze, hano rero muri utu dutebe twiza two kwicaraho, za mudasobwa impande n'impande, uraza ugasobanuza bakagufasha.

Kugerageza tukaba twafata inguzanyo ni byiza cyane kuko biratugoboka, hari amabanki akugirira icyizere ndetse akayiguha nta n'ingwate utanze, nkuko kino kirango rero na cyo kibigaragaza, wabagana ugatanga ibisabwa bakayigura.

Hari ahantu habugenewe bacuruza ibintu bitandukanye, ibintu birimo imitako uduseke tuboshye ibyo kumanika mu nzu, ndetse n'imiringa, hano rero bigaragara ko ari mu isoko barabifite waza ugahaha nawe ukajya kubimanika iwawe.

Kuba wagura imyenda ni byiza cyane, hano kuko bayicuruza n'ibindi bintu bitandukanye umugore arimo arihahira akimbere kugira ngo ajye arenzaho, hirya hari ibikapu bihanitse ndetse n'ibindi bintu bitandukanye wakwigurira nawe ukabasha kuba watunga ibigezweho.

Iri soko rero harimo ibintu byinshi bitandukanye hano nkurikije uko mbibona ni karoti, insenda, intoryi, tangawizi, tungurusumu ndetse n'imboga zindi zitandukanye nyarwatsi. Aba mama barimo barabicuruza n'abandi baje kubigura.

Mu isoko haba harimo ibintu byinshi bitandukanye, ushobora kuzagahahira cyangwa se ukahagurira imyenda, hano hari ibikapu, amarido nyine umanika mu nzu kugira ngo akingire izuba cyangwa se ibindi bintu bitandukanye ufite mu nzu yawe.

Amafi ni ingenzi cyane kuko arafasha, hano rero ni menshi ari mw'abasi, hakurya hari ikintu cy'uruzi wagirango niho bayaroba n'abantu benshi bicaye barimo barayahanagura banayoza kugirango imyanda yaba yarariye bayivanemo.

Kuba wajya mw’isoko ukajya guhaha n’ibintu by'agaciro cyane. Nk'uko tubibona hano harimo abana, ababyeyi bahetse abandi batoya rwose bari mu mugongo, ndetse harimo inkoko, n'ibitebo birimo inyanya nyinshi cyane, rero waza ugahaha.

Mu isoko ni ahantu ushobora kugenda ukubona ibyo guteka. Ibi ni ibitoki rero, ibitunguru, ibipavuro, seleri, inyanya ndetse n'ibindi abantu bagurana ndetse n'abaje kugura. Rero ni byiza ko wajya ugera yo ugerayo ukaba wafata ibintu bitandukanye ukabishyira iwawe ukabiteka.

Aha rero nkurikije uko mpabona ni mu isoko ariko nta muntu urimo, hari ikirango cyerekana ko ni ngomwa gukata ugasubirayo kiri mu ibara ry'ubururu, irageretse ibirahure byiza cyane n'imihanda ikeye ubona ko nta mashashi arimo.

Ababyeyi barimo baragerageza gusa harimo umwe uhagaze ukenyeye igitenge ufite agafuka, ni bisa n'aho nyine yahuye n'umuga kuko agenda acumbagira, imbere ye hari imineke bisa n'aho yaje kuyigura.

Inzu nini cyane ubona ko ari ndende, ifite ibirahuri ndetse hejuru nureba neza mu madirishya harimo abantu wagira ngo ni abadamu bari kureba hasi, hejuru hariho amagambo yanditseho, ikirere kirakeye kirimo ubururu bukeya , ubona ko ari ibintu byiza cyane.

Umwari wibereye mu kazu k'umuhondo wambaye umupira w'umukara kumwe n'umusorembaye ishati yubururu nawe hari ibiti byinshi cyane ndetse n'ahantu ushobora kwicara ukaruhukira ukaba wafataga fanta akaji cyangwa ibindi bintu bitandukanye nyine byanyura umubiri wawe.

Kuba wagura ibintu ukoresheje ikoranabuhanga ni byiza cyane. Izi ntoki zifite inzara nziza ziringaniye zifite isuku ndetse ateruye telefone arimo arahitamo kugura amayinite yifashishije Mobayiro mani.

Umusore wambaye agapira, imbere ye hari umukobwa uri kuri mudasobwa bisa naho arimo aramurangira ibintu bitandukanye ngo amufashe, urugero niba umubare we w'ibanga yawufunze hano uraza bakabikemura, imbere hari intebe insakazamashusho irimo telefone bakanze akanynyeri ijana na mirongo ine, hari n'intebe zo kwicaraho ku bantu barushye guhagarara.

Ahantu habugenewe abantu bakunda kujya bagaturayo ibibazo byabo, abakora ibintu bijyanye n'itumanaho hano rero uraza waba waribagiwe umubare wawe w'ibanga bakawugufungurira ukabasha kubikuza ndetse ukanabitsa.

Akazu kari mu ibara ry'umuhondo ndetse n'ibirango by'ubururu biriho hakurya hari abantu bari kwambuka ndetse n'umwari wambaye ikote ry'icyatsi n'undi ry'umutuku ubona ko bari ahantu nyabagendwa.

Kuba wajya kwihahira ama inite ni byiza cyane, hano hari utuzu dutandukanye, inyuma hari imbuto ndetse karanafunguye, hakurya unyuzamo ijisho uri kubona amazu ari hirya, abasore barahagaze bari gusobanurirwa ibintu baje kureba.

Ni byiza ko twajya twimenyera aho tubariza ibintu runaka cyangwa se twaba dukenera iby'ikoranabuhanga aho rigeze tukajya kubaza, hano rero hari akazu k'amabara y'umuhondo yandikishije amagambo y'umukara, hakurya hari ibiti ubona ko gakeye cyane.

Kuba wabura icyo gukora ukagerageza gushinga ikintu runaka ni byiza nk'uko uyu mwari yabikoze afite ikayi n'ikaramu imdika imyirondoro y'umuntu akazu keza kari mu mabara y'umuhondo, hirya hari umudamu wambaye umupira w'umutuku.

Umwari mwiza cyane ubona ko ari guseka yishimye bamuzaniye ibintu bitandukanye birimo pavuro, amavuta, karoti n'ibindi yari yabitumije yibereye mu rugo none bimugezeho, ibigaragara byo nuko ikoranabuhanga ririmo kugenda ritera imbere cyane .

Ikoranabuhanga ni ryiza ariko ryatugize abanebwe, aho ubu ngubu umuntu atakibasha kwitekera, ngo arashaka kujya ahantu barira cyangwa se akabitumizaho yibereye mu rugo, aho kugira ngo akore urugendo basi aruhure n'ayo maguru ugasanga bibaye ibibazo rero tugerageze tumenye ibyo dukeneye.

Umwambaro w'akazi mwiza cyane usa ibara ry'icyatsi kimwe n'ingofero yambaye umurindanda ibyago agasanduku arimo aravanamo ibintu yarazanye biri kuri moto, ari kubihereza umusore mwiza cyane watebeje agashati k'umweruru rwose n'agapantaro kajya gusa umutuku.

Abatwazi b'ibinyabiziga bane, ubonako bajyanye utuntu, bambaye imyenda y'akazi y'umutuku, ingofero zibarinda ibyagogi mugihe bakoze impanuka, inyuma hari ibisanduka birimo ibintu babashyiriye ababitumije nyine bibereye mu rugo iwabo.

Ko aha wifashishije ikoranabuhanga ni byiza cyane kuberako biragutabara hano rero ku rubuga ubona ko ushaka kuza waba ufiteho inkweto ukayireba wayishima ukayaka kwishyura ikabikugezaho mu minota mikeya ubu wowe icyupfa ni icyizere cyabo gusa bagomba.

Inzu nziza cyane ikiyeye iriho ahantu hashyira imodoka ahanini, harimo utubuye tw'umukara w'umweru ndetse n'umutuku. Igipanpu cyaho uko cyubatse hari amabara y'umweru nayo meza cyane hirya wakubita ku matafari ahiye ukahita ubona igisenge cy'inzu ikuntu gikeye nacyo.

Ahantu heza cyane ushobora kuza ukaba rwose n'amazu aba akeye amakaro meza y'umweru aha ni mugikoni harimo imashini imesa, hakurya hari izindi ntebe z'umutuku umuntu ashobora kwicaho ako kanya wenda igihe arushye, iyi rero wayibamo.

Hari ahantu wakodesha cyangwa se ukaza ukaba uguze inzu yawe, wajya ushyira n'imodoka nyine niba uyifite hanini, nk'ukuntu ubona utu tubuye turiho tw'umweruru n'umutuku, hakurya hari n'indabo ni aho uyisiga, hakurya hari udutebe wicaraho n'inzu igeretse rimwe rwose ushobora kuza ukiberamo rwose niba uherereye i Kigali.

Hari ahantu ushobora kuza ukibera rwose, inzu nziza zimeze neza ndetse ziba zirimo uburiri, hano burashashe hari amadirishya ureberamo imbere, hateye utwatsi, harakorotirije igipangu, ndetse n'inzitiramibu nziza cyane isa ubururu ntago warwara marariya.

Intebe nziza cyane zikeye ubona ko zifite imisego myiza y'umukara ndetse n'umutuku n'ameza na yo nuko zirasa umweru ibikuta na byo, amatara meza cyane, ubona ko bishashe ahantu hameze neza umuntu wubatse ino nzu rwose afite...

Ibyatsi bisa neza hari utubuye bagenderaho nkurikije uko mpabona hano mwagira ngo ni ku kibuga, hari ibiti bihateye, intebe z'imisego ndetse n'ameza yo kwicaraho hari umusore n'inkumi wagira ngo barimo baraganira.

Gukodesha inzu ni byiza cyane kuko birafasha, aho ushobora kwigeragereza nawe, ukavuga ngo niba mfite amafaranga aya n'aya reka mfate inzu ihwanye nuko nzajya nsigarana buri kwezi, rero ukagenda ukayibamo n'umuryango wawe kugira ngo ujya ubona uko wegera akazi.

Ni byiza ko wajya ukodesha inzu ubaye ufite amafaranga ariko bihwanye n'umushahara wawe biragufasha cyane, irimo iraka rero amatara nijoro murabibona harafunguye nta muntu urimo nta n'ikintu na kimwe kirimo rero waza ifite ubwogero bubiri, ibyumba bibiri, ku bihumbi magana atatu bya buri kwezi wajya ubitanga.

Inzu zikodeshwa ni nyinshi ku buryo nawe uhageza ufite amafaranga ukayiberamo pe hakurya hari igeretse rimwe y'imiryango myiza cyane hejuru no hasi aho kwicara ndetse aho washyira imodoka zirenze imwe rwose hashashe utuye.

Ikirango aha kiri mu ibara ry'umweru, kiranga ahantu haherereye amazu n'asoko akodeshwa ndetse n'ibyumba nyine, waza kwiberamo ku giti cyabo, cyangwa se ukazahaba igihe gito nta kibazo bigenda neza.

Igipangu kiririmo utubuye utwatsi duteye ku mpande ndetse bigaragara ko ari mu nzira ijya ku muhanda hagati hari amazu meza cyane hagati y'umutuku menshi ndetse n'inindi itaruzura iriho imbaho zihagaze ikirere kirakeye.

Gukodesha inzu ni byiza ubaye ufite amafaranga ariko na none ibyiza n'uko wajya uyigurira, ubwo kubadafite ubwo bushobozi baragerageza bagakora ibiboroheye. Hano rero hari ahantu ushyira imodoka, utwo uzamukiraho ujya hejuru hariya mubona uturahure, inzu yubatse neza rwose ubaye ufite amafaranga bayibamo.

Ahantu hashashe utubuye twiza cyane dukeye kandi twinshi, harimo inzu ifite umuryango ufunguye amadirishya y'ubururu ndetse iteye akangi k'umweru, amakaro meza cyane harimo n'udutara, ifite ibyumba bitatu, irakodeshwa rero iherereye Kimironko.

Kuba mu nzu nziza ni ibigaragaza ko nawe wasirimutse, ukamenya kujyana n'igihe ariko ibyo ntabwo wabyigana kubera ko nta mafaranga ufite. Gerageza ukorera ayawe kugira ngo nawe uzayibone. Noneho hari igipangu cyiza, hari amatafari acyubatse nyine akigize, hariho n'amadirishya, imbere yayo hari utundi tubuye tuhashashe twiza cyane, tugaragaza ko wahashyira imodoka yawe ubaye uyifite.

Inzu nziza cyane mbona ko nyine ifite ibirahure bibonerana, inzugi z'umukara, inkingi eshatu nziza nziza, imbere hari umwanya washyiraho imodoka ubaye uyifite, rero iragurishwa.

Inzu zikodeshwa ni nyinshi cyane ntago wazibura wazishatse, rero hano hari igipangu cy'umukara, amadirishya meza cyane, hakurya hari inzu ubona ko igeretse rimwe ushobora kuza kwituriramo nawe ku mafaranga ufite makeya.

Inzu zikodeshwa zabaye nyinshi cyane, aho ushobora kuza nawe wabona iyo ushima ukayijyamo, ino rero harimo imodoka mo imbere, irimo iraka amatara ndetse nkurikije uko mbibona ziri mu bice bitandukanye, rero zibz zifite ubwogero ndetse n'ibyumba byiza.

Umusore watebeje agashati ke k'umweru inyuma ye hari inzu nziza cyane ifite amadirishya y'ubururu n'amabati ndetse hateye n'utwatsi, amakaro bisa naho ari iyo kugurisha.

Inzu nziza cyane ikeye, irimo turabyo, amadirishya, ibirahuri, udara turikwaka ndetse hakurya hari ibiti. Rero uraza ukahaba igihe runaka bitewe n'akazi ufite, hanyuma ugasubirayo kubera ko haba harimo ibikoresho byose.

Inzu nziza cyane ubona ko irimo ibirahure bya bintu byikaraga byijiza umwuka nijoro, cyangwa se kumananywa, hasi hari ikirango cyerekana ibyo bakora nyine ushobora kuza nawe ukabagana bakagusobanurira.

Inzu nziza cyane ushobora kwiberamo nawe, ikagutunga wowe n'umuryango wawe cyangwa se ukabasha kubatunga bitewe n'ubushobozi ufite, hariho amabuye ahashashe ndetse imiryango yo kwinjiramo iteye irangi risa n'ivu n'inzugi z'umukara.

Aha ni mu isoko heza cyane harimo n'amabanki nyine ahakorera ku buryo ushobora kuza guhaha ikintu ntibikugore usohoka ahubwo uhita winjiramo bakakubikuririza rero hari ibintu byinshi amabasi, imyenda biterwa n'icyo ugiye kurebamo.

Ababyeyi bambaye ikanzu y'umukara ndetse n'umusatsi urasokoje, hirya hari undi na we bari kumwe ubona ko bari baje guhaha ibintu runaka. Hanyuma uwo Musimukazi rero witambi agatambaro k'icyatsi, ni we wari uri kubakira.

Guhahira mu maduka ni byiza cyane, nkuko uyu nguyu tubibona ni umukobwa wambaye udukweto twiza cyane n'agapira, arimo arasunika akagare batwaramo ibintu byinshi, arimo arinjira cyangwa se ari kuva ahantu runaka hari ibindi ajya ahari ibyo ashaka.

Imigati ni myiza cyane kuko ugomba kuyiha abana ba mu gitondo cyangwa se nawe ukayirya uyinywesheje icyayi, igikoma, amata ndetse n'ibindi byinshi. Ni byiza rero ko nawe utajya uwubura iwawe hano umukobwa wari uje kuwigurira ubona ko ari guterura umwe muri yo.

Ahantu hashashe neza rwose buri kintu kiri ku murongo, udukarito tw'amata ukwatwo n'ibindi byinshi bitandukanye, hakurya hari amazi yo kunywa haba harimo na fanta, insenda, ibintu byose ushobora gushaka wabibona, uyu mwari rero atwaye akantu birimo ibyo yari yaje kureba yabibonye agiye kwishyura.

Inyanya ni nziza cyane zidufasha dukora agasosi gasa n'umutuku hano mu isoko barayicuruza harimo tungurusumu, imitera, karoti, intoryi, pavuro, seleri ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye, urabonako biri gucuruzwa n'abagore.

Umusore wambaye umupira w'umutuku urimo akabara k'umweru ari kumwe n'umugabo wambaye ishati n'ipantaro y'umukara barimo baraganira. Rero bacuruza ibintu bitandukanye nkurikije uko mbibona, ni amatara yo mu nzu nyine ashobora gutaka iwawe hagasa neza.

Kujya ahantu ukajya kwishakira ibyo kunywa cyangwa ibyo kurya, ni byiza nk'uko uno musore abifite, arimo ararebamo ibyo ashaka, bitonze umurongo biba bisa neza. Aha rero ni mu iduka, yambaye umupira w'umukara, afite akandi ari bugende abishyiramo kugira ngo aho ari bugera yishyurira abikuremo abibahe babare bamwishyuze.

Kuba wajya ahantu bahahira ni ingenzi kandi bisa neza cyane, ndetse ubona ko ibintu byabo biba bihendutse, hano rero amakaro meza, umusore ufite umwana akaboko bari kujyana hakurya hari abakira, nabavuye kuzana ibintu runaka ngo babahereze aho bishyuriye.

Hari abantu bagize igitekerezo bashinga ibigo bifasha abantu kuba bacuruza ibibanza cyangwa se babigura nk'inzu runaka, imodoka, nkaba ngaba rero bafite iki cy'ubururu ni abagabo babiri bagiteruye, inyuma yabo hari abategarugori ariko basa n'abakuze beza cyane.

Abasaza n'abakecuru bamwe biyambariye ingofero abandi bateze ibitambaro bakinyeye ibitenge, bafite udukoni two kwicumbagisha igihe runaka hakurya hari amadirishya meza afunguye kugirango akayaga kinjire bisa naho bari ahantu runaka nyine baje kumva ibintu biri kuhavugirwa.

Umubyeyi wifubitse igitenge, agatambara k'ubururu mu mutwe, inyuma ye hari umugabo wambaye imyenda y'umweruru, arigusa n'uwinjira naho imbere ye hari undi ufite n'ikaramu ari kwandika imyirondoro yiiwe, imbere ya telefone ndetse n'ibindi bitabo bipakiye inyuma y'uwo ndikuvuga wari wifubitse umwenda runaka

Ubwisungane mu kwivuza ni ingingo ya Leta igomba kumenyesha buri muturage wese ko agomba kubwishyura kugira ngo azajye yivuza ku mafaranga runaka hagendewe ku cyiciro arimo, aya makarita rero bona ni ayo witwaza ariho ifoto yawe ndetse hariho n'ikaramu uyu muntu afite.

Umubyeyi wambaye agakote k'umukara, agapfukamwa, umusatsi hejuru usakoje, ndetse n'ikanzu y'igitenge nziza cyane, ari kumwe n'umwana. Hakurya hari abandi bicaye, ndetse nabatambuka imbere bafite za mudasobwa, bisa naho bari kubaha amakuru runaka.

Ubwisungane mu kwivuza ni agakarita baguhereza kaba gasa icyatsi cyangwa umuhondo, biterwa aha amazina yawe papa wawe mama wawe igihe wavukiye ndetse n'ifoto ikuranga uko umeze kugira ngo ukajyane kwa muganga ukerekane bakuvure.

Gutanga ubwisungane mu kwivuza cyangwa mituweri, ni gahunda ya leta ifasha abantu bose kuba bajya kwivuza, ku mafaranga makeya waba uri mu cyiciro cyo hasi n'icyo hejuru biragufasha cyane, rero jya ugerageza uwutange hakiri kare.

Akenshi iyo tujya kwa muganga badusaba amakarita yacu y'ubwisungane mu kwivuza kugira ngo ibintu bigende neza ndetse uyu nguyu yambaye umwenda w'umweru, hasi afite ikayi n'ikaramu biteretse ku meza n'urupapuro ari gusomaho imyirondoro, uyu mwari na we arimo aramuhereza akantu k'umuhondo kugira ngo arebe koko niba ari we.

Ibirango biri inyuma ye biri mu mabara y'ubururu, amagambo yandikishije umweru ndetse n'umuhondo, imbere ye afite akantu gatuma avuga bakumva bose, hirya gato hari intebe z'umweru bicaraho nziza cyane, ni umusore mpamya ko afite ikintu ari kuganiriza.

Igikuta gisabururu ndetse hariho ikarita y'ubwisungane mu kwivuza igaragaza ifoto y'umwana, amazina ye, igihe yavukiye itariki bishyuriyeho, ndetse n'umwaka uzarangiriraho nyine, ni byiza ko twese twakabaye tuzitunze.

Ni byiza ko baba badushishikariza kwizigamira muri ejo heza kuko igihe runaka ugize ikibazo y'amafaranga arakugoboka cyangwa se akarihirira umwana wawe ishuri, iyo wowe ugeze mu zabukuru ni byiza yuko wajya ubikora nawe ukubahiriza gahunda za leta. Uyu musore wambaye umupira w'umweru nkurikije uko mbibona nibyo ari kuvuga.

Kubaho uzigamira umwana wawe ni ingenzi, akajya muri ejo heza ndetse ku buryo wazitaba Imana akazarya amafaranga wasize. Uyu mubyeyi rero urabona nawe aracuruza ariko yahisemo kubyinjiramo.

Twagerageje kubikira abana bacu amafaranga muri ejo heza bigenda neza nkuko babidushishikarije, uyu rero nawe arishimye kandi anogewe n'uko byakozwe vuba tugerageze rero natwe tugendane n'igihe.

Aya ni amaduka acuruza ibintu byo kunywa ndetse n'ibirungo bitandukanye, maze ugasanga biri ku murongo binatekanye bisa neza, nka hano rero ni byo nkuko tubibona bimwe biriho ibara ry'umuhondo umutuku, umweru.

Abantu baba baje kugura ibintu bipfubitse kandi birafasha cyane kuko hari igihe usanga biba bijagaraye, bigatuma ubura ukuntu ubitwara. Hano rero bipfunyitse mu makarito, harimo ibitunguru, karoti, inyanya n'ibindi byinshi.

Umwari mwiza cyane wambaye umupira w'umuhondo ari kumwe n'umusore amwereka ukuntu bishyura bakoresheje ikoranabuhanga hirya ukabona ari amagi, imigati n'ibindi byinshi waza ukihahira mo hano.

Umugabo ubona ko yari yaje kwihahira, yambaye agashati k'umukara, umusatsi amazeho. Inyuma ye hari abandi benshi; afite twa tugani basunika rero, tubatwaza ibintu runaka aho ugenda uhitamo ibyo ushimye ukanagamo, ukagera imbere ukabivanamo ukajya kubarisha. Rero harimo agafuka k'umuhondo, nkurikije ahantu ari ndabona imyenda iri mu buryo bwe.

Mu maduka meza cyane haba harimo ibintu byinshi bitandukanye, amata utuntu two kwisukoza, amavuta, ndetse n'imiceri nkuko hano bigaragara hari ibigiye bifungiye mu mashashi no mu ducupa, waza rero ugahaha cyangwa se akagurira umuryango wawe.

Ni isoko ni byiza cyane ku bajya guhahira amata ibindi n'ibirayi ndi kubona abari bambaye imyenda y'akazi cyangwa se impuzankano zisa bahagaze bari kureba abantu bari buyoberwaho bashakira ibintu bakajya kubayobora.

Guhahira ahantu mu masoko ni byiza kuko haba hari utuntu dufite amapine tw'utwuma nyine, ugenda uhitamo amazi, amavuta, ushyiramo byose, hanyuma ukajya aho bakirira abantu nyine, ukabitanga bakakubarira, ukishyura ugataha.

Hari hantu ushobora kugenda ukajya guha imbuto rwose bigufashije nk'uko uyu musore uri kubibona afite agasatsi gasokoje, umupira w'umweru yambaye arimo arareba ibintu bitandukanye hakurya hari aho bakwakirarira ukagenda ugahitamo, harimo imineke, inyanya, pome ndetse n'ibindi byinshi.

Umupapa yari yaje kwihahira rero ariko si ibyo gusa bibamo yari arimo arishyura. Hakurya ndabona ji, amata, fanta ndetse n'amazi. Rero waza nawe ugahaha. Ni byiza ko ushobora kuza ukavuga ngo reka ngukare akarindazi nkashyire umwana.

Abantu bakunda kwinywera ibidasembuye ni byiza ko bajya bagerageza kubikunda cyane, nk'uko hano tubibona hari uducupa twinshi cyane twa fanta, ji ndetse n'ibindi biri mu mabara atandukanye umutuku, umuhondo ndetse n'umukara.

Gukorera mu iduka ni ibintu byiza cyane, urabona hashashe amakaro ahariho umubare icyenda, hirya hari ibyo guteka ndetse n'ibyo kurya ako kanya ushobora kuza nawe ugahaha kuko hari igihe usanga bihendutse kuruta ahandi.

Ni byiza ko wajya wishyira nawe nkoresheje ikoranabuhanga kuko biragufasha cyane nkurikije ukuntu hano hanze bimeze, rero uyu musore nawe arimo aratunga telefone ye ku kamashini, yambaye ishati nziza, inyuma hari ahantu abantu bicara barimo harimo utuntu runaka.

Kuba wajya guhaha ni byiza cyane kuko byagufasha nkuko hano tubibona harimo umusore wambaye umupira w'umukara arimo arasunika akantu ashyiramo ibintu byinshi bitandukanye hano rero ugenda ureba icyo ushimye ukanagamo hanyuma ukajya aho bakirira bakabigukorera nyine bakareba bakabara bakareba ayo wishyura.